Icyumba cy'inzu cyicayemo n'abantu bari gukora inama bakaba bakikije ameza y'impande enye yakozwe mu mbaho yateretsweho mudasobwa amazi ndetse ku ruhande hakaba hariho inkuta z'ibakikije zisize ibara ry'ikigina ndetse na rido.

Umuhungu wambaye ishati y'ubururu ndetse n'undi muhungu wambaye umupira w'icyatsi n'umukobwa ushyize igitambaro ku mutwe we wicaye ku ntebe zisize irange ry'umukara akaba ari kwitegereza mu kerekezo k'ibumoso.

Akameza kateretsweho igitambaro gisize ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, kashyizweho terefone zitandukanye ndetse n'agacupa kamwe karimo amazi yo kunywa, inyuma yako hariho abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama kikaba cyicayemo n'abantu bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku n'umukara akaba yashyizweho mudasobwa amacupa y'amazi impapuro ndetse n'amakaramu impande hari inkuta zishyizweho icyapa.

Icyumba kiberamo inama kikaba gifite amadirishya yashyizweho rido zisize ibara ry'umweru zabitwikiriye, ndetse n'umugabo uhagaze wambaye ikoti, ari kunyura ku bantu bicaye mu byiciro mu ntebe zisize ibara ry'umutuku.

Umugore uhagaze imbere ya ekara nini iri ku rukuta rusize ibara ry'umuhondo, imbere ye hariho abantu bicaye bakikije ameza ariho igitambara cy'umweru ndetse n'akandi gato k'ikigina gateretsweho amazi yo kunywa.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kirimo abantu bambaye amakoti bicaye bazengurutse ameza yashyizweho icupa ryamazi, ibirahuri byo kunyweramo ndetse n'impapuro z'umweru, ku ruhande hakaba hariho inkuta zisize ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inzu ku ntebe zisize ibara ry'umukara ndetse inkuta zikaba zisize ibara ry'umuhondo zashyizweho amafoto ndetse n'ibyapa biriho amabendera y'igihugu, iruhande hari amarido asize ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ryashyizweho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, kigizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, yicaye imbere y'ameza yashyizweho impapuro, icupa ririmo imitobe, ndetse n'ikirahure kirimo amazi.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kirimo abantu bicaye mu matsinda bakikije ameza yashyizweho igitambaro gisize iba ry'ubururu bwijimye cyatereretseho amazi yo kunywa, amakayi, impapuro ndetse na terefone.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kicayemo n'abantu benshi, bicaye ku ntebe zashyizweho igitambaro cy'umweru, impande ya buri muntu hari akameza gasize ibara ry'umutuku, kateretsweho amazi yo kunwa ari mu gicupa, ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba cyicawemo n'abantu bicaye mu byiciro, ku ntebe zisize ibara ry'umweru ndetse n'ameza yateretsweho uducupa ndetse n'impapuro, imbere yabo hakaba hariyo umugabo uhagaze, afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo bwe.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bari gukora inama, bicaye bazengurutse ku meza asize ibara ry'umukara ndetse n'icunga, byateretsweho ibyuma birangurura amajwi, amacupa arimo amazi ndetse na mudasobwa zijimije, zisize ibara ry'umukara.

Icyumba cy'inzu kiri gukorerwamo inama kikaba gihagazwemo n'umugabo, ufashe icyuma kirangurura amajwi mu kuboko ku iburyo bwe, imbere ye hari abantu bicaye mu matsinda ku ntebe z'umuntu umwe, zikaba zashyizweho igitambaro cy'umweru ndetse n'akameza imbere yabo.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kirimo abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, imbere yabo hariho ameza asize ibara ry'umutuku ariho amakaye, amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa n'ibyuma birangurura amajwi.

Icyumba cy'inzu kiri gukorerwamo inama, kikaba kicawemo n'abantu bari mu matsinda, ku ntebe zisize ibara ry'umukara, ndetse imbere yaho hari ameza asize ibara ry'umutuku wijimye, yatereretsweho amacupa y'amazi, ndetse n'ibyuma birangurura amajwi.

Icyumba cy'inzu kirimo umukobwa uhagaze, afite icyuma kirangurura amajwi, ari imbere y'abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza yateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'inkuta zihegereye z'umweru zashyizweho icyapa kiriho ibendera ry'u Rwanda.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba cyicayemo n'abantu bari mu matsinda, imbere yabo hariho akameza kashyizweho igitambaro cy'umweru ndetse buri muntu imbere ye hari akapa gasize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kateretswe imbere ye ndetse n'ivide ririmo amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikigina afite icyuma ndangurura majwi mu kuboko kw'iburyo bwe, ahagaze impande y'akameza k'ikirahure kateretsweho terefone ndetse n'udutabo, ari imbere y'abantu bicaye, inyuma yabo hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bicaye mu matsinda, imbere yabo hari akameza kariho igitambaro cy'ubururu, ibipapuro ndetse n'amazi yo kunywa, hakaba ariho umukobwa wambaye agakoti, ari kugenda abereka ibintu byanditse mu makaye.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'amarido y'umweru ndetse n'iroza, imbere hakaba hari intebe zisize ibara ry'umukara, zicaweho n'abantu bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku, yateretsweho amacupa y'amazi ndetse n'ay'umutobe.

Icyumba kiri kuberamo inama kikaba kirimo abantu bicaye ku ntebe z'ibara ry'umukara ndetse bazengurutse ameza asize ibara ry'ikigina, n'umutuku wijimye imbere yaho hari amacupa y'amazi, amakaramu ndetse n'impapuro.

Abantu bari mu nama bicaye mu byiciro, imbere yabo hari ameza asize ibara ry'umukara hateretsweho impapuro, amakayi, udutabo ndetse na terefoni zigendanwa, impande hari urukuta rusize ibara ry'umuhondo.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama abantu bakaba bicaye bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku yateretsweho udutabo, amakaye, ndetse n'amakaramu, impande hari inkuta zisize ibara ry'umuhondo n'ikigina ndetse n'idirishya.

Umugabo ndetse n'umugore bahagaze imbere y'abantu babiri bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, inyuma yabo hakaba ari imodoka y'umutuku ndetse n'umweru n'ikinyabiziga gitwara abantu benshi, impande hari igikamyo gitwara imizigo.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bari gukora inama bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umuhondo ndetse n'ikigina, impande yabo akaba bateretsweho uducupa twa'amazi ku gasima gasize ibara ry'ikigina ndetse ku ruhande ku nkuta akaba ariyo amadirishya yafunguye.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba cy'icawemo n'abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bazengurutse ameza y'impande enye asize ibara ry'ikigina cyijimye cyateretsweho mudasobwa, amazi, impapuro ndetse n'ibicupa birimo amazi yo kunywa.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu, bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umutuku, umuhondo, ndetse n'icyatsi, munsi y'ihema, impande hakariha abandi bari gukurikirana icyo kiganiro, hirya hakaba hari insina z'igitoki.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba cyicayewemo n'abantu bicaye mu matsinda bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku hakaba hateretsweho ibyuma birangurura amajwi, ibitabo, impapuro ndetse n'ibicupa birimo amazi yo kunywa.

Icyumba kiri kuberamo inama cyicayemo n'abantu bambaye imipira y'umweru, ku ntebe zisizwe ibara ry'umutuku, bari mu byiciro, imbere yabo hari ameza hashyizweho igitambaro cy'umukara, ateretsweho amazi ndetse n'udupapuro.

Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo umwe yambaye ishati y'amakaro undi yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umweru, imbere y'iyo kamyo hari amagambo yandikishije umutuku hari n'ayandi yandikishije umukara.

Umunara usize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ukaba uzengurutswe n'akazu ndetse n'ibyuma bisize ibara ry'ikigina bikikije, hakaba harimo abantu bambaye imyenda itandukanye y'amabara ndetse impande yabo hakaba hariho ibiti byinshi ndetse n'akayira k'igitaka.

Ishusho yanditseho amagambo y'ikinyarwanda agira ati ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe. Uburyo rukumbi bwemewe mu kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa Kigali ni ugukoresha ikarita. Ndetse n'amashusho abiri agaragaza uburyo bwemewe n'uburyo butemewe.

Ishusho iri kugaragaraho amagambo abiri ari mu Kinyarwanda, ari byo Irembo ndetse na Byikorere, kandi ari mu rurimi rw'Icyongereza, ikaba iri kugaragaraho imodoka isize ibara ry'umweru ndetse na moto isize ibara ry'umutuku.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu, iriho mudasobwa icanye, ecra ikaba iri kugaragaraho urumuri rw'umweru, impande hari telefone, ndetse ibumoso hariho amagambo ari mu kinyarwanda, agira ati, menyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za bibiri makumyabiri na gatatu, wishyure bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatatu, bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo bahagaze bakaba bashyize ibikapu bibiri by'umukara mu byatsi ndetse bakaba bambaye imipira itatu isa y'ubururu nyuma yaho hariho umunara munini usize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku uzengurutswe n'ibyuma.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ikaba iriho mudasobwa yafunguwe iri kugaragaza urumuri rw'umweru, ndetse iruhande rw'iburyo hari amagambo y'Ikinyarwanda agira ati: "Menyekanisha wishyure ndetse unarebe amakuru yose yerekeranye na konti yawe y'imisoro, unyuze muri system yabugenewe."

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu yandikishijwe mu magambo asize ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, aho ari kugaragaza itariki ntarengwa yo kwishyurwaho ariyo mirongo itatu n'imwe Ukuboza bibiri na makumyabiri na kane.

Ishusho iriho amagambo yo mu kinyarwanda agizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo agira ati ''itariki ntarengwa ni uyu munsi menyekanisha unishyure igihembwe cya kane cy'ipatante uyu munsi'' ugakanda imibare kugira ngo ubashe gusura urubuga rwabugenewe.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari akameza gakozwe mu mbaho kariho imigozi myinshi yacometsweho mudasobwa irikwakaho ibara ry'umweru iruhande hari ibyuma biyikikije.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu yandikishijwe amagambo ari mu rumi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, agira ati dore uko wakwinjiza amakuru ya konti ya banki kuri aetakisi, hakaba hariho ubusobanuro bwose mu magambo arambuye.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'umweru, ishushanyijeho umukobwa ufite terefone mu kuboko kw'iburyo bwe, ndetse na mudasobwa iri imbere ye yacanywe ku ruhande hariyo amagambogambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na nimero za telefoni.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru yo kugaragaza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya korona aho kigaragaza ko umuntu aba agomba gukoresha telefone ye yishyura agakaraba intoki agashyiramo intera hagati ya mugenzi we bakambara agapfukamunwa nta gusuhuzanya ndetse no guhoberana.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bicaye mu matsinda, bakaba bafite utumeza imbere yabo, twateretsweho mudasobwa, ndetse n'umwarimu uri kubigisha akaba ari inyuma y'ikibaho gisize ibara ry'umweru, ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo.

Ishusho iriho umugabo wambaye umupira wamaboko maremare akaba ari guseka ndetse afashe telefone mu kuboko kw'iburyo bwe ari kwerekana ekara yayo iriho urubuga rwa eterinete rw'irembo impande akaba ariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na numero za telefoni.

Inzu igizwe n'inkuta z'umuhondo ikaba yateretsweho icyapa kinini cy'impande enye gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda "irembo" ndetse n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ikaba ishushanyijeho telefone icanye, impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditseho na nimero za telefoni zishobora kwandikirwaho mesaje.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho telefone iri kugaragazaho akanyenyeri maganinani urwego hari imibare yanditswe impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu ururimi rw'ikinyarwanda makeya na nimero za telefoni.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ikaba iriho umugabo wambaye ingofero, amadarubindi ndetse n'umupira w'umweru afite mudasobwa ye mu kuboko kw'iburyo bwe, ari gukanga amabuto akoresheje ukuboko kw'ibumoso, impande ye hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Urupangu runini rugizwe n'ibyuma ndetse byashyiriweho icyapa gisizwe ibabura ry'umutuku, cyanditseho izina ry'isosiyete rikora mu by'itumanaho mu imbere harimo umunara munini ukozwe mu byuma, ukaba usizwe n'ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Ishusho y'umweru iri kugaragara umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu, akaba afite telefone mu kuboko kw'iburyo bwe yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hejuru ye hariho ijambo irembo ndetse n'irindi byikorere.

Ipoto rinini risize ibara ry'ikigina ryateretsweho insinga z'amashanyarazi, ikaba iripande y'igipangu gisize ibara ry'icyatsi rigizwe n'inkuta z'ibara ry'umuhondo ndetse hakaba arimo n'inzu igizwe n'amabati y'umutuku y'amategura.

Urupangu rusize ibara ry'icyatsi rukaba rufite n'urukuta rw'amatafari ahiye rwateretse kicyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru, ryanditseho imibare ndetse inyuma yaho akaba harimo inzu y'amabati asize ibara ry'umutuku iriho icyuma gisize ibara ry'umweru.

Akayira k'abanyamaguru gasize ibara ry'kindina kaba kateretsweho icyapa gisize ibara ry'umutuku, ndetse n'ipoto rinini ririho itara ritanga urumuri ndetse rikaba ryarashyizweho n'insinga impande hari imodoka ndetse n'ibikamyo byaparitse.

Inzu igizwe n'amabati asze ibara ry'umukara ndetse n'urukuta rusizwe ibara ry'iroza, imbere yabo akaba ariho icyapa kinini gikozwe mu byuma, cyashyizweho insinga zijyana n'amashanyarazi ndetse impande hari inzu y'amagorofa igizwe n'inkuta z'ibara ry'umuhondo.

Ipoto rirerire ryashyizweho insinga z'amashanyarazi, riri hagati mu byatsi byegereye igipangu, hashyizweho ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, ku ruhande hariho ruhurura iri hafi y'umuhanda wamabuye.

Umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina, ay'umweru ndetse n'ay'umukara, impande yabyo hakaba hariho ipoto rinini ryashyizweho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti bifite amashami.

Uruti rurerure rwashyizweho insinga z'amashanyarazi, rukaba ruri impande y'inzu, igizwe n'inkuta zisize irangi ry'umuhondo, umuryango w'ubururu ndetse n'idirishya risize ibara ry'ikigina, zashyizweho inzuma, bikaba biri impande y'igipangu gikozwe mu matafari atukura.

Ibyuma bito bihagaze bizengurutse umunara munini, usize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ukaba ukikijwe n'udusanduku tunini dusize amabara atandukanye, inyuma yaho hari inzu igizwe n'amatafari atukura.

Ipoto rinini ry'ibyuma ndetse kikaba ryashyizweho insinga z'amashanyarazi nyinshi, zikaba ziri impande y'ishyamba riri ku musozi muremure ndetse n'igipangu kigizwe n'amatafari asize ibara ry'ikigina.

Urupangu rusize ibara ry'ikigina, ikaba ikikijwe n'inkuta z'amatafari atukura, yashyizweho icyapa k'ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ishushanyijejeho ibiribwa bitandukanye, impande y'ipoto rinini rikozwe mu mbaho ryashyizweho insinga z'amashanyarazi.

Icyuma gisize ibara ry'umukara cyateretswe ku mapoto abiri y'ibyuma yashyizweho amashanyarazi, impande hakaba hariho ibyatsi ndetse ikaba ikikijwe n'amabati asize ibara ry'ikigina, ku ruhande hakaba hariho urupangu rugiyeho n'amatafari atukura.

Ipoto rinini rikozwe mu mbaho ryashyizweho insinga z'amashanyarazi riri hagati y'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, hakurya hariho inzu y'amagorofa atatu isize irange ry'umuhondo ndetse ifite n'igipangu gifite amabati y'ubururu.

Amapoto abiri yashinzwe mu byatsi yegeranye, rimwe rikaba ririho itara ritanga urumuri ku muhanda wa kaburimbo irindi rikaba ryashyizweho insinga z'amashanyarazi bikaba biri hagati y'urukuta rw'inzu n'amatafari atukura ndetse n'akayira k'abanyamaguru kari hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa cy'impande enye gifashwe n'ibyuma bibiri buri mpande, gisize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'agace kitwa Gikondo, na nimero za terefoni zishobora guhamarwa zitishyurwa.

Akayira kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugendwaho n'abantu, ndetse kakaba kaparitsweho imodoka zisize ibara ry'umweru, impande hari inzu igizwe n'inkuta z'umuhondo, ndetse n'imiryango y'ibyuma isize ibara ry'ikigina.

Akabaraza k'ibitaro kagizwe n'amakaro asize ibaya ry'ikigina katereretseho, intebe z'ibyuma zicaweho n'abantu impande yazo hakaba hari imodoka ebyiri zisize ibara ry'umweru n'umutuku, zikoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'umumotari, ndetse n'imodoka isize ibara ry'umweru, impande hari icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru, cyanditseho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, impande hakaba hari urupangu rwegeranye n'akazu gasize ibara ry'umuhondo.

Imodoka ebyiri zitwara abantu zisize ibara ry'umweru ziri mu muhanda wa kaburimbo ziri hafi y'igipangu kigizwe n'amatafari ndetse n'inku zisize irangi ry'umweru n'ikigina ikaba ifite urupangu rw'umukara.

Umugabo wambaye agashati ndetse n'agakabutura, ahagaze hejuru y'ibyatsi, imbere y'abantu bicaye ku ntebe z'imbaho kandi bakaba bitwikiriye imitaka bamwe, impande y'urugo rufite inkuta zisize ibara ry'ikigina.

Inzu y'amagorofa menshi ifite inkuta zisize ibara ry'ikigina ndetse n'umweru ikaba iriho n'icyapa kiriho ikirango cya polisi y'u rwanda, amarembo yayo akaba agizwe n'amatafari y'ikigina akaba yaparitsweho n'imodoka isize ibara ry'umukara n'umweru ku ruhande harindi si'bara ry'ikigina.

Akameza gakozwe mu mbaho kateretsweho ibyuma bitandukanye ndetse na kizimyamwoto, imbere yako hari umugabo uhagaze ari kwerekana uburyo bwo gukoresha kizamyamwoto imbere y'abanyeshuri, bambaye amashati y'umweru ndetse n'ipantaro z'umukara cyangwa amajipo.

Akumba k'inzu kashyizweho ibitambaro by'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, kicayemo n'abantu babiri ndetse bakaba bafite impapuro imbere y'utumeza twabo, bari kwakira umugore witandiye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ahagaze inyuma y'icyuma ndangururamajwi, ndetse n'icyapa gisize ibara ry'umweru gishushanyijeho umuntu, ndetse cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, inyuma ye hakaba hariho abantu bicaye ku ntebe za purasitike.

Icyumba kinini kigizwe n'inkuta zisize ibara ry'umutuku ndetse n'ikigina, kikaba kicaemo n'abantu benshi bari mu byiciro, imbere yabo hari ameza y'umuhondo yateretsweho ibikoresho bya mudasobwa, amazi ndetse n'impapuro.

Icyumba cy'inzu kirimo amabendera menshi y'u Rwanda, akaba asize ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi, impande hari abategarugori bayifashe bambaye ibitenge ndetse no ku ruhande hari abantu bicaye bateganye n'ameza asize ibara ry'iroza.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'urukuta rusize irangi ry'umuhondo, kikaba cyateretsweho icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'izina ry'ishyaka, munsi yaho hakaba hariho abantu bicaye imbere y'ameza hashyizweho agatambaro k'umweru ndetse n'ikigina.

Icyumba kirimo abantu batanu bahagaze imbere y'ibyuma ndangururamajwi, iruhande rw'ibumoso buri muntu afite idarapo ry'u Rwanda risize ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi; kuruhande hariho urukuta rw'amabara y'ikigina, ndetse na ekara iri kugaragaraho abo bantu.

Ruhurura irimo icyondo ndetse n'amatafari iri impande y'akayira k'abanyamaguru kashyizweho amatafari asize ibara ry'ikigina, impande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'abamotari bahetse abagenzi, ndetse hari impande y'ikinyabiziga gitwara abantu benshi ndetse n'ikamyo.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina karim impande y'umuhanda wa kaburimbo no kugenwamo n'imodoka nyinshi ziri kubisikana z'amabara atandukanye harimo umweru, umutuku, ndetse n'ubururu n'abamotari babiri bahetse abagenzi.

Ruhurura irimo utwatsi dutoya ikaba ari impande y'akayira k'abanyamaguru gasize ibura ry'ikigina impande hari umuhanda wa kaburimbo urimo ikinogo ukaba urikugedwaho n'ikinyabiziga cy'ikamyo gisize ibara ry'umweru ndetse kikaba gihetse imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwaho n'imodoka isize irangi ry'umutuku, ndetse n'umuntu uri kugendera ku ruhande rw'igare arifashe ryashyizweho umufuka w'umweru, n'undi muntu ufite ingorofani iri mu ntoki ikozwe mu biti yateretseho imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kwambukamo n'umugabo, impande ye hari moto, ndetse n'ibinyabiziga by'amapine atatu, Impande hari ikamyo, isize ibara ry'umweru, bikaba biri iruhande ya ruhurura, yegeranye n'ibiti byegereye akazu.

Akayira k'abanyamaguru kaparitsweho moto uy'umuhanda ukaba ari umuhanda wa kaburimbo uriho umumotari uhetse umugenzi we ku kinyabiziga cye imodoka zisize amabara atandukanye ndetse n'ikamyo itwara imizigo.

Akayira k'amanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ari hafi ya kaburimbo yasataguritse ikaba iri kugendwaho n'igikamyo kinini gisize ibara ry'umutuku, gihetse imizigo yatwikiriwe n'ishashi y'ubururu, ku ruhande hakaba hariho ibiti.

Ruhurura yegereye akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari impande y'umuhanda wa kaburimbo iri kugendwaho n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto, ikamyo isize ibara ry'umweru umuntu akaba yicaye inyuma.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari impande y'umuhanda wa kaburimbo, uriho ibisate byinshi, ukaba uri kugendwamo n'imodoka z'amabara atandukanye, ziri kubisikana ndetse n'ikamyo isize ibara ry'icyatsi, ihetse imizigo yazirikishijwe imigozi ndetse ikaba iriho ishashi y'ubururu.

Akararo gato kari hejuru ya ruhurura yuzuyemo amabuye menshi ndetse n'icyondo biri impande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari kigina, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'imodoka ebyiri z'amabara atandukanye imwe y'ubururu bwijimye ndetse n'indi y'ikigina ndetse n'abamotari batwaye abagenzi kuri moto.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Akabaraza k'inzu kari imbere y'igipangu, imbere yaho hari akayira k'abayamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina karimpande y'umuhanda wa kaburimbo. Akaba ari kugenderwamo n'igikamyo gisize ibara ry'umweru gihetse imizigo yahishwe n'agashashi gasize ibara ry'ikigina kijimye, ndetse n'imigozi y'umukara.

Ruhurura igizwe n'ibyondo byinshi ndetse n'amabuye, ikaba iri impande y'agahanda kari kugendwaho n'umuntu, kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari impande y'umuhanda wa kaburimbo urikugendwamo n'umunyonzi ndetse n'igikamyo kinini cy'ibara ry'icyatsi gihetse imizigo inyuma.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igikamyo kinini gisize ibara ry'umutuku inyuma yacyo hakaba ariyo imodoka itwara abagenzi isize irangi ry'umuhondo impande akaba ariho imodoka iparitse ku gahanda kari imbere y'inzu y'amagorofa atatu.

Umumotari wicaye ku kinyabiziga cye cya moto, ari mu muhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, iruhande hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina umweru ndetse n'umukara, imbere hakaba ari amapoto yashyizweho amatara atanga urumuri ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umuhondo ndetse n'umweru, ikaba biri kugerwaho n'umumotari ari kunyura impande y'inzu igizwe n'igipangu bisize ibara ry'umukara, ndetse n'ibiti biri impande yayo bifite amashami.

Icyumba cy'inama kirimo abayitabiriye bari mu mwambaro usa w'umweruru imipira y'umweru, ameza ariho ibitambaro by'umukara, hariho amazi n'udutabo n'intebe ziri mu ibara ry'umutuku imbere yabo hari porojegiteri, ikimurika kibereka ingingo bari bwigeho cyangwa ibyo bari kwigaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagaguye y'umweru, ndetse n'indi irombereje, ikaba iri kunyurwaho n'abamotari bahetse abagenzi, ndetse n'ibikamyo bihetse imizigo, bisize ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba hari inzu igeretse, y'amagorofa menshi.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, umweru, ndetse n'umukara, impande yako ariho umuntu uri kwambuka mu muhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'imodoka z'amabara atandukanye, ndetse hirya hari kugaragaraho urukuta rusize ibara ry'ikigina, rushyizweho icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo uparitswemo ikinyabiziga cy'amapine atatu, kikaba gisize ibara ry'ubururu ndetse cyanditsweho amagambo arimo rw'icyongereza, agaragaza ko cyakorewe mu Rwanda, impande hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina.

Akarayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina kegere umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo ukaba uri kugendwamo n'ikinyabiziga cy'amapine atatu, abamotari bahetse abagenzi, ndetse n'ibikamyo bibiri bitwara imizigo.

Pasiparumu irimo ibiti binini byegeranye bifite amashami maremare biri impande y'akayira k'abanyamaguru gakozwe mu matafari y'ikigina, ndetse hafi y'aho hari imodoka iparitse y'ikamyo isize ibara ry'icunga ndetse n'umuhondo, impande harimo iziri kubisikana.

Akayira k'ayamaguru kashyizweho amatafari y'ikigina kari impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'imodoka y'ikamyo iteruyeye imizigo ya gaze ikaba itwikiriwe n'ibyuma by'umweru.

Ruhurura yegereye akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, ku mpande hari umuhanda wa kaburimbo urimo ibinogo byinshi, uri kugendwamo n'igikamyo kinini gitwaye amazi, kikaba gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ruhurura iri impande y'akayira k'abanyamaguru gakoze mu matafari y'ikigina kegereye umuhanda wa kaburimbo urimo ibikamyo bibiri bisikanye kimwe gitereye imizigo isize ibara ry'ikigina ikindi kaba iteruye kontineri isize ibara ry'umukara.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari kigina, kari impande ya kaburimbo irimo ikinogo, ikaba iriho umuntu wicaye ku igare, uhetse agafuka, impande hari igikamyo kinini gisize ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Akayira k'abamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugendwaho n'umugore wambaye igitenge afite igikapu cye mu kuboko kw'iburyo, impande ku muhanda hariho ibinyabiziga by'amapine atatu byaparitse ndetse n'imodoka isanzwe isize ibara ry'umweru.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina kari impande y'umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi, ukaba uri kugendwamo n'ikamyo isize ibara ry'umweru, ikaba ibisikanye n'umumotari uhetse umugenzi inyuma ye ndetse n'imodoka isanzwe.

Ruhurura irimo amabuye menshi ndetse n'icyondo ikaba iri impande y'ibyatsi ndetse n'akayira k'ayamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ari impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kugenrwamo n'igikamyo kinini gihetse imodoka isize ibara ry'umweru.

Ibyatsi byameze impande ya ruhurura irimo amabuye menshi ndetse n'icyondo, ku ruhande hariyo akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina kari impande ya kaburimbo iri kugenderwamo n'imodoka itwara abagenzi isize ibara ry'umweru.

Umuntu uri kugenda afite igare mu ntoki ze, rihetse iporeti z'amagi, mu mpanda hari umuhanda wa kaburimbo urimo ikinogo, hakurikiyeho na moto ihetse abagenzi, ndetse n'ikamyo isize ibara ry'umweru n'ubururu, ihetse imizigo.

Amatafari y'ikigina umweru ndetse n'umukara ari hagati y'umuhanda wa kaburimbo, impande hariho ikamyo isize ibara ry'umweru ihetse imizigo y'ibyuma, impande y'inzu ifite inkuta zisize ibara ry'ikigina ndetse n'ibyapa.

Ruhurura irimo amabuye menshi ndetse n'icyondo, ikaba iri impande y'akayira k'abanyamaguru kashyizweho amatafari y'ikigina, kari impande y'umuhanda urimo ibinogo byinshi, ukaba uri kugenwamo n'igikamyo kinini gisize ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka ndetse n'imodoka ikaba iparitse iruhande rw'akayira k'abanyamaguru igizwe n'amatafari y'umweru n'umukara ndetse n'ikigina, ku ruhande hariho igiti kinini gifite amashami ndetse n'umugabo uri kugendera kuri ako gahanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri impande y'akayira k'abanyamaguru kari kugendwaho n'abantu benshi, iruhande rwabo hakaba hariho ruhurura iriho amazi ndetse hejuru hakaba hariho igipangu gisize ibara ry'umukara kigizwe n'inkuta zisize irangi ry'umweru, inyuma hari imodoka ihaparitse iri gukorwaho n'umugabo.

Icyapa cy'impande enye, kikaba gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Kikaba kiriho umuntu usa nk'uri kugenda kikaba kiri impande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ay'umweru, ndetse n'umukara. Impande hari umuhanda wa kaburimbo.

Ibyatsi byinshi byatewemo ibiti, bikaba biri ipande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, umweru ndetse n'umukara, impande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'abamotari babiri bicaye kuri moto.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu iriho icyapa cy'uruziga gisize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru cyanditseho umubare wa mirongo itandatu, bisobanura ko ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, muri uwo muhanda kirimo kitagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu

Umuhanda wa kaburimbo waciwemo umurongo w'umweruru muremure, impande hakaba hariho ruhurura ndetse n'icyapa k'impande eshatu gisize ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umutuku kiri hafi y'ibyatsi byegereye igipangu.

Inzu y'amagorofa abiri, igizwe n'inkuta z'umweru, n'amabati y'amategura, ikaba ikikijwe n'igipangu gisize ibara ry'umukara, ndetse kigizwe n'amatafari y'ikigina, iruhande hari imodoka ziparitse, ku muhanda w'amabuye, asize ibara ry'ikigina.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu murongo w'umuhondo mo hagati ndetse n'uruhande ari akayira k'abanyamaguru kashyirizweho amatafari y'ikigina kari impande y'igihanda cy'igitaka kiriho n'amabuye ndetse n'urupangu rusize ibarara ry'umuhondo ndetse n'amatafari atukura yashyizwehoin gifite inzugi z'umukara.

Izina ryanditswe ku ishusho iri kugaragaraho imigano myinshi izengurutse urupangu y'amatafari y'amakoro asize ibara ry'umukara ndetse n'ikigina impande hakaba hariho umukozi ucunga umutekano wegeye ibigega bibiri bitoya bishyize ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi.

Umumotari uri kugendera kuri kaburimbo, impande y'imodoka ziparitse ku gahanda k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, umweru ndetse n'umukara, ikaba yegeranye n'inzu n'amagorofa menshi, igizwe n'ibirahure ndetse n'amagambo yamamaza iyo nzu.

Umuhanda wa kaburimbo uri ku musozi, ukaba ukikikijwe n'amatafari asize ibara ry'umukara ndetse n'umweru, impande hariho igiti kinini cy'ipoto, gishyirwaho insinga z'amashanyarazi ndetse ku ruhande rwayo hakaba hariho urupangu runini, rugizwe n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo ndetse n'amabati y'iyo nzu asize ibara ry'umutuku.

Icyapa k'impande enye gisize ibara ry'umweru, cyandikishijwe amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara mu rurimi rw'icyongereza, hakaba hashushanyijeho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Imodoka isize ibara ry'ikigina iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ugizwe n'imirongo y'umuhondo, impande hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, umweru ndetse n'umukara, iruhande hariho inzu igeretse y'amagorofa menshi.

Akayira k'abanyamaguru, kakaba kaparitsweho imodoka ndetse na moto ku ruhande, impande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'umumotari ndetse hakurya hari inzu y'amagorofa menshi, igizwe n'inkuta z'umweru ndetse n'ikigina.

Umuhanda w'amabuye uri kugendwaho n'abamotari bahetse abagenzi, ku ruhande akaba ariho imodoka ziparitse, impande y'ibiti byazitwikiriye by'imigano, ku ruhande hakaba hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari impande y'inzu ifite ibyatsi.

Amagambo Nyagatovu yanditswe ku ruhande hariho amabati y'inzu menshi y'amabara y'umutuku, ikigina ndetse n'igitaka, impande hariho ipoto ryashyizweho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti.

Ipoto rinini ryashyizweho icyapa cy'impande enye, hasi kikaba gisize ibara ry'umutuku, ndetse kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Impande yacyo hakaba hariho ibyatsi ndetse n'ibiti, hejuru yaho hariho igipangu kinini cy'amatafari atukura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagase y'umweru ndetse n'umuhondo, ikaba iri kugedwaho n'umumotari ufite telefone mu ntoki ze, ku ruhande rwe hariyo inzu ifite igipangu gisize ibara ry'umweru.

Umuntu uri kugendera ku kayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari impande y'umuhanda wa kaburimbo, ukaba uri kugendwaho n'umuntu uri ku igare, ndetse n'abamotari, hejuru yaho hari ikiraro kiri kugendwaho n'ibindi binyabiziga.

Icyapa gisize ibara ry'umweru icyatsi ndetse n'ubururu kiri hagati y'akayira kakoze ishusho ya mpande eshatu kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse n'andi y'umukara n'umweru, mo hagati y'imihanda ibiri yinjiye mu wundi ikaba iri kugerwamo n'ibinyabiziga bitandukanye.

Akazu k'icyuma gasize ibara ry'ubururu, kicarwamo n'abantu bategereje ibinyabiziga bitwara abagenzi, kakaba kashyizweho icyapa kiri mu rurimi rw'icyongereza, gishushanyijeho imodoka, kari hejuru y'amatafari y'ikigina, ndetse umukara n'umweru k'abanyamaguru, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'abamotari.

Imihanda miremire y'ibyerekezo bitandukanye, iri kugerwaho n'umumotari uhetse umugenzi, imodoka, ndetse n'ikamyo isize ibara ry'umweru, ihetse imizigo, impande hariho isaha isize ibara ry'umweru.

Icyuma gisize ibara ry'ikigina ndetse n'umukara kireba imodoka zarengeje umuvuduko zikazifotora kiri hagati mu byatsi bikikijwe n'amatafari asize ibara ry'umweru ndetse n'umukara mo hagati y'umuhanda wa kaburimbo.

Akayira k'abanyamaguru kari kugendwaho n'umuntu, kaba kagizwe n'amatafari y'ikigina, y'umweru ndetse n'umukara, iruhande hariho moto zi kugendera mu muhanda aho imihanda ihurira ndetse n'icyapa kiranga ibyerekezo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'ibinyabiziga bya moto bihetsa abagenzi ndetse n'imodoka zisanzwe z'amabara atandukanye, impande hakaba ariho amapoto ariho amakamera ndetse n'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari kigina.

Akazu gasize ibara ry'ubururu kicarwaho n'abantu bategereza imodoka imbere yaho hari agahanda k'amabuye y'ikigina kagendwaho n'abanyamaguru ndetse hirya hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'imodoka ndetse n'umumotari utwaye umugenzi.

Akazu gasize ibara ry'ubururu gakozwe mu cyuma abantu bicaraho bategereje imodoka kari impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'imodoka isize ibara ry'ikigina, umumotari utwaye umugenzi ndetse n'igikamyo kinini gitwara imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, impande hakaba hariho akayira k'abanyamaguru gasize ibara ry'umukara, ndetse n'umweru n'ikigina, iruhande hari ibyuma by'ubururu biri impande y'ipoto ritanga urumuri mu muhanda.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ay'umweru ndetse n'umukara akaba ari impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka, abamotari bahetse abagenzi, n'abadahetse abagenzi impande hari inzu y'amagorofa.